Mu bitaro kwa muganga, haryamye umurwari ku gitanda, muganga akaba ari kumwitaho amusuzuma, ngo arebe indwara y'abarwaye kugira ngo amuhe imiti ikwiranye n'indwara afite.

Abagabo batatu bambaye imipira y'umutuku babiri ni amajire umwe ni umupira utukura, bari gucukura icyobo kinini kugira ngo bashyiremo ifumbire ihagije ndetse bateremo insina, iruhande rwabo hakaba hahagaze abantu bari kubarebera ibyo bari gukora.

Mu bitaro bya Gatunda haparitse imodoka itwara abarwayi bamwe baba barembye cyane, ikaba itwarwa n'umugabo ndetse imbere haba haryamyemo umurwayi, ari kumwe n'umuganga ugenda umwitaho kugira ngo atagira ikibazo.

Uru rujya n'uruza rw'abaturage bakaba baje ku bitaro gutanga amaraso kugira ngo bisuzumishe bamenye uko bahagaze, kandi amaraso bakuramo naba ari mazima bayafashishe abandi bayabuze, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Mu itsinda ry'abantu bateraniye hamwe hakaba higanjemo abaganga, bamwe bakaba bafite ibitabo bari kwandikiramo, abandi bakaba bafite uducupa turimo amazi, imbere yabo hakaba hicaye umugabo umwe n'umu mama, bakaba bari kubabwira uburyo indwara ziri gukwirakwira kugira ngo bamenye uko bazirinda.

Kwa muganga haryamye umusore, bakaba bari kumusuzuma umuriro afite ndetse n'izindi ndwara zitandukanye, muganga akaba ari kumusuzuma. Inyuma ye hakaba hari ibikoresho byose yifashisha.

Mu cyumba kwa muganga haryamye umuntu urwaye ndetse muganga ari kumusuzuma, yumva uko umutima utera kugira ngo amenye uko amerewe, ajye kumuzanira imiti imuvura.

Ababyeyi babiri bicaye hamwe ku ntebe nziza bakaba mu ntoki zabo bafite udutabo tubiri, iruhande rwabo hakaba hari umwana afite telefone bakaba bari gusoma ibintu bitandukanye ijambo ry'imana, imbere yabo hakaba hahagaze umugabo.

Umubyeyi ugize ikibazo bakaba bamuryamishije ku gitanda, hakaba hagaze abagabo babiri bari kumureba, ndetse n'undi uri kumwitaho iruhande rwabo hakaba hateretse ameza ateretseho mudasobwa.

Itsinda ryabaganga riteraniye hamwe umukuru muri bo akaba ari kubaganiriza uko bakwita ku barwayi, ndetse n'uburyo bazajya bakurikiza gahunda kugira ngo babashe gukora imirimo yabo neza.

imbaga y'abaturage bateraniye hamwe, hakaba higanjemo abajyanama b'ubuzima, bita ku bagore batwite, abana batoya ndetse bakaba bakora n'indi mirimo itandukanye, harimo nko gutera imiti, baje guhugurirwa uko bazajya bita ku baturage.

Mu cyumba kwa muganga, hicaye umuganga, akaba imbere ye hateretse ameza ariho mudasobwa, ibitabo yandikamo ibisubizo, abarwayi baba bafite, hakaba iruhande rwe hateretse akabati hari ibikoresho bifashisha.

Abaturage bicaye mu twatsi, bakaba bari barimo kuganira, umwe muri bo akaba agize ikibazo, bakaba bagiye kumuterura ngo bamujyane kwa muganga, barebe ikibazo ahuye nacyo.

Itsinda ry'abajyanama b'ubuzima, bita ku baturage ndetse bakita ku babyeyi batwite abana, bakaba babasuzuma bakamenya indwara barwaye, bafite icyapa bari kugenda bakangurira abaturage kwirinda kugira ngo bazajye bakinga kare, bagure supanete birinde indwara ya maraliya.

Umubyeyi umumama wifubitse igitambaro cy'umweru, akaba afite isakoshi mu ntoki ari gusoroma umuti w'umuravumba, kugira ngo ajye kwivura indwara, inkorora ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Ku bitaro mu cyumba kwa muganga haryamye umubyeyi ku gitanda, hakaba hari umuganga uri kumwitaho, imbere ye hakaba hari ibikoresho yifashisha amusuzuma, kugira ngo amenye indwara yaba arwaye.

Itsinda ry'abajyanama b'ubuzima, bakaba basuwe n'umuganga mukuru, uzi ibintu byose akaba yaje kubahugura uburyo ki bazajya bita ku baturage ndetse bakaba bamwishimiye, uburyo ki yabagiriyemo inama kugira ngo bazajye bita ku baturage babo neza.